Hano urabona ko hari ifoto igaragaza abatumirwa babiri, uwo bita Mbera Emmy na Batamuriza Hajara, baribuze gutanga ikiganiro guhera saa moya za mu gitondo kugera saa mbiri za mu mugitondo, bakaza kuba bari kuvuga ku bijyanye n'imisoro iri kuvugwa muri ino minsi mu Rwanda, bakaba baribuze kunyura kuri radiyo Rwanda.

Iyi foto yerekana inama y'abayobozi barimo ishobora kuba ari inama y'abadepite n'abasenateri cyangwa ariyabandi bayobozi bakuru bicaye mu nama bari gutega amatwi kandi hari n'uburyo buborohera ku buryo bashobora gutanga ibitekerezo bakoresheje ibyombo biri imbere yabo.